Igenzurwa rikorwa n'abashinzwe umutekano mu muhanda, rikorwa hagamijwe kureba ko ikinyabiziga kidafite ikibazo, gishobora kuba cyateza impanuka mu muhanda. Buri mushoferi wese aba asabwa kugenzuza ikinyabiziga ce kugira ngo arebe ko ari nta makemwa.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore barimo abasirikari umudaso n'abasivile bafashe impapuro mu ntoki, bahagaze imbere y'ihema ry'umweru rifite nagandi mabara nk'ubururu umuhondo n'icyatsi.

Inzu ya kera ifite igisenge cya nyakatsi, ikaba iri ahantu h'icyaro, imbere yayo ifite ubusitani burimo ibihingwa naho inyuma hari imisozi.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo nyarwanda ,bambaye amayogi n'imigara mu mutwe ,inyuma yaho hari ingoma, izi ni mbyino gakondo nyarwanda zigaragaza umuco nyarwanda.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye ,igizwe n'amagorofa atatu ikikijwe n'ibiti ku mpande hari umuhanda wa kaburimbo ,hirya hari ibiti by'inturusu birebire ,kandi hanze haboneka amapoto y'amatara

Inzu y'umusigiti "idini rya isilamu", igizwe n'amabara y'umweru, ubururu hanze yayo haparitse imodoka kandi hateye n'ibiti.

Ibitaro bikuru bya Ruhengeri, bikaba n'ibitaro bikuru by'Akarere ka Musanze byakira abagwayi batandukanye boherezwa n'ibigo nderabuzima biboneka mu Karere ka Musanze, ndetse n'utundi turere dukikije Akarere ka Musanze. Boherezwa muri ibi bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere.

Umugore ari gusunika ikinyabiziga cy'igare gihetse igikoresho cy'igitebo cyifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye nk'ibirayi n'ibijumba, yambaye inkweto z'umukara ingutiya umupira w'amaboko ndetse yiteza igitambaro mu mutwe.

Umugenzi uri mu modoka ufite ikarita akoza ku cyuma cyifashishwa gukuraho amafaranga aho ubasha kwishyura imodoka bitabaye ngombwa ko atanga amafaranga ,aho gukoresha iyo karita akuraho amafaranga.

Itsinda ry'abakobwa bane bari mu marushanwa yo kwirukanka. Aya marushanwa akorwa hagamije kureba abari burushe abandi umuvuduko, kwirukanka ahantu harehare. Nyuma y'amarushanwa haba ho gutanga ibihembo by'abarushije abandi.

Umukinnyi wa tenisi wambaye umwenda utukura n'udutambaro twera n'umukara ku mutwe, afite igitambaro cyanditseho nana bisobanura niyu baranse ku kuboko kw'iburyo, asa n'uwishimye afashe rakete y'umukino wa tenisi, kandi ari mu kibuga cy'irushanwa, hari abantu bamureba inyuma bamwe bambaye imyenda y'umweru.

Ikipe y'abagore y'umupira w'agatebo. Bambaye impuzankano zigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi n'amasogisi y'umweru. Bamwe muri bo bambaye udupira twanditseho ijambo Rwanda.

Umupira w'amaboko ni umukino ukinwa hakoreshejwe ibiganza. Ntiwemerewe gukoresha amaguru, mu igihe uhererekanya umupira utsinda igitego, ugomba gukoresha ibiganza.